Hari ibikoresho bimwe na bimwe, byakoreshwaga kera ndetse na n'ubu bigikoreshwa mu muco nyarwanda. Ni ukuvuga nk'imiheha, ibikoresho bakoresha bacuranga, ndetse n'ibindi.

Abaturage batuye ahantu hegereye amapoto ndetse n'iminara utibagiwe n'amapiloni ni bamwe mu bashishikarizwa kujya birinda kwegera aho hantu kuko hashobora kubashora mu bibazo birimo n'urupfu.

Abashoferi bakora akazi ko gutwara abantu mu modoka rusange, barashishikarizwa kujya bubahiriza ibimenyetso by'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse no gusigasira gahunda ya gerayo amahoro.

Inzego z'umutekano harimo abapolisi, abasirikare, ni bamwe mu bahuriye n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda rusange mu rwego rwo kubaka imihanda ndetse no gusukura ahantu.

Inama y'umutekano yahuje Polisi y'u Rwanda ndetse na bamwe mu ngabo, bigaga ku mutekano bakangurira abaturage gutanga amakuru igihe hari aho babonye umutekano mukeya kandi buri wese akaba ijisho rya mugenzi we.

Siporo ni kimwe mu bifitiye ubuzima bwacu umumaro munini cyane, yaba abana urubyiruko ndetse n'abasheshe akanguhe, dore ko ituma amaraso atembera neza mu mubiri.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gucunga umutekano wo mu muhanda, aho umuturage uwo ari we wese, yaba utwara ibinyabiziga cyangwa se ugenda n'amaguru ye, iyo agize ikibazo, yitabaza inzego za polisi zikamuha ubutabazi.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro bashimira leta y'u Rwanda ko yagejeje umuhanda uzwi ku izina rya kaburimbi mu byaro, ibi bikaba biborohereza gukora ingendo ndetse n'ubucuruzi.